Abantu b' abadogiteri bakora ubushakashatsi ku binyabuzima runaka, harimo n' abantu; kuvura abantu ndetse babikora neza cyane. Abantu b' abadogiteri, bakora ubushakashatsi ku binyabuzima runaka, harimo n' abantu, kuvura abantu ndetse babikora neza cyane.

Ibyatsi byimeza ahantu, bityo rero bikaba bifitiye akamaro utetse yuko harimo n'ibyatsi ari umuti ugurishwa na benshi mu bakoresha imiti ya kinyarwanda.

Indabo ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi kuko zizana umwuka mwiza mu bantu. Kubantu begereye igiti cy'indabo baba bumva bameze neza cyane.

Ibyatsi bikunze kuba ahantu hari amazi menshi cyane. Bityo bigatuma birinda cyane imbere y'amazi, hakaguma hameze neza, hafite umutekano.

Igiti cy'igihingwa bajaga barita intobo, zifite akamaro mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nko kuzikoresha nk'umuti ku mvune z'abantu.